Umugabo wambaye ingofero n'ishati irimo amabara ya shokora n'umukara, yegaye ku rugi rwa shokora, ari, imbere ye handitseho icyapa gishyizwe aho babikira amafaranga cyangwa babikuza.

Iyi ni imodoka ifite amabara y'umweru n'umutuku yanditseho imbangukiragutabara, yifashishwa igiye gutabara abarwayi bameze nabi kwa muganga kugira bavurwe.

Aha ni aho abantu benshi bari mu kiganiro cy'inkiko gacaca. Inkiko gacaca ni ubutabera n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bari mu biganiro byo kwiyunga.

Ndabona abagore n'abagabo bambaye imyenda y'imikara y'amakanzu, afite utuntu tw'imbere mu gatuza tw'umweru, aba ni abakora akazi gashinzwe kuba baburanira abantu.

Ku gikuta hari igikoresho bita kizimyamwoto, gifite amabara y'umutuku, kikifashishwa mu gihe umuriro waje, kikazimya umuriro mu nzu n'ahandi hose gikenewe.

Inzu y'abashinzwe umutekano mu muhanda bita polisi. Inyuma yayo muri parikingi, harimo imodoka ya pandagali ishinzwe umutekano.

Uyu ni umuhanda urimo abamotari babiri bari kugenda, harimo umumotari wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara atwaye umugenzi n'ibiti mu muhanda.

Igikamyo cy'umutuku kikorera imitwaro kiri muri kaburimbo, kiri guca munsi y'igiti gifite amababi maremare y'icyatsi kiri kuza.

Imodoka itwara imitwaro iremereye, iri mu muhanda, ni imodoka nini y'umutuku, irimo umuntu wambaye imyenda y'umutuku.

Iyi ni imodoka itwara imitwaro iri mu muhanda, iruhande rwayo hariho indi modoka y'umukara, imitwaro itwikiriwe na shitingi y'umweru n'imigozi kugira ngo imitwaro ikomere.

Mu ishyamba hateyemo ibiti, harimo icyapa cy'amabara y'umuhondo n'ubururu harimo umuntu usa nk'aho atambuka.

Aha ni mu muhanda, aho ibinyabiziga bigenda, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, harimo amamodoka, ndetse hari izuba.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ubusitani bwiza burimo ibiti n'amapoto y'umweru, ariho amatara amurikira mu muhanda.